Urugi rwa mitali akaba ari urugi rw'ibyuma rusize amarangi y'icyatsi, igice kinini kikaba kirimo ibirahure. Ibi bikaba bikorwa mu rwego rwo kugira ngo inzu igaragare neza.